Umugabo wicaye atuje arimo gutekereza ibyagirira urugo rwe akamaro, afite amazi amacupa abiri impande ze hepfo no haruguru yambaye amarinete, ari kugaragara nk'umuntu uri kwibaza rwose ibintu byinshi.

Abagabo n'abagore bari muri sale bari mu mahugurwa, bafite amakaye n'amakaramu barimo kwandika ibyo barimo guhugurwa, bafite n'amazi mu ducupa imbere yabo yo kunywa mu gihe bagize inyota, kugirango batagira umwuma, ubuzima burushaho kugenda neza.

Abagabo n'abagore bagiye gushaka uko bakwishyura imisoro ya rura ku irembo, kugira ngo barusheho koroherwa badatonze umurongo hirya no hino. Kugira ngo nabo basubire mu mirimo yabo.

Ahantu hari abantu bahagaze b'abagabo barimo kuganira, hari inzu y'umuhondo, hari n'umunara, hari n'ibiti bihakikije barimo baraganira ibyateza igihugu cyacu imbere kugira ngo nabo biteze imbere.

Ahantu hari inyubako nziza hubakishije amabati y'umutuku, hari urupangu rw'amatafari ahiye y'umutuku, hari amawuwa, hari ipoto y'umuriro bigaragara ko ari inzu y'abakire batuyemo.

Abagabo babiri bagaragara nk'abacamanza, bambaye imyenda isa itukura, mu gatuza harimo ibara ry'umweru, umwe afite mikoro bafite amazi imbere yabo yo kunywa kugira ngo batagira inyota, barimo baraganira ku byateza igihugu imbere.

Abagabo n'abagore barimo kuganira bateze amatwi urimo kubabwira, harimo umuzungu n'umwi n'abirabura, bose bateze amatwi kandi bishimiye ikiganiro barimo guhabwa n'uririmo kubaganiriza.

Abantu bari mu muhanda batwaye amagare ariho n'amakesi n'abandi bazamuka, abandi bamanuka b'abagenzi, na moto ziparitse n'amazu ari impande z'umuhanda asize amarangi meza y'imihondo bigaragara ko afite isuku.

Imodoka iri mu ibara ry'ubururu iri mu muhanda igenda yanditseho made in Rwanda, irimo kugenda mu ruhande rwo hepfo hari imodoka y'umweru y'itagisi iriho umuntu iruhande, zikomeje kugenda mu muhanda.

Imodoka nini ifite ibara ry'icyatsi cyijimye, ifite ihema riyitwikirije, iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yaho hari umumotari, ku ruhande hari izindi modoka ntoya, hari amazu meza asize amarangi ku mabati y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri imwe igaragara mu ibara ry'ubururu yandikishijeho ibara ry'umweru, indi iri mu ibara ry'icyatsi harimo abagenzi ku mpande hari ibiti, ku rundi ruhande hari amawuwa.

Imodoka nini y'umweru irimo kugenda mumuhanda wa kaburimbo iriho n'icyapa cyamabara y'ubururu nicyatsi n'umutuku muhanda kuruhande hakikijeho ibiti bitanga akayaga n'amahumbezi.

Abamotari bari mu muhanda batwaye abagenzi, hirya yaho hari umukindo, impande zaho hari amawuwa, hirya yaho hari inzu, bakomeje kugenda kugira ngo bageze abagenzi aho bajya amahoro.